Abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke usanga bishimira kwiga bafite utuntu tubarangazaba akaba hari ibikapu biriho udupupe, kandi nibyo bashaka kujyana ku ishuri.

Abana biga mu mashuri y'incuke bakunze gusabana ndetse no kwishimirana. Ahari ikigo cyubakishije amatafari, kikaba gisize irangi ry'umweru, gisakaje amabati y'ubururu, imbere yacyo hari ipoto y'amashanyarazi.

Ahantu henshi cyane hari ibigo by'amashuri y'inshuke ukunze gusangayo ibikoresho bigiye bitandukanye bikurura abanyeshuri kugira ngo bishimire kwiga, aha turi kuhabona ibipupe bibiri by'umuhondo.

Abana biga mu mashuri y'inshuke usanze bakunda kuba bikinira umunsi ku wundi kuko nabyo bikangura ubwonko bwabo, ndetse bakaba baba bateguye udushushanyo barangarira.

Iri ni iduka rikorerwamo ubucuruzi, Turi kubonamo imifuka igiye itandukanye ndetse n'amakarito atandukanye, imbere yayo hasashe amapave. Inyuma hakaba hari ibiti byiza cyane bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Abana bato biga mu mashuri y'incuke ndetse n'abanza, bambaye impuzankan z'umuhondo ndetse n'ubururu, mo hagati hakaba harimo abarezi babo, bari kwiyereka ababyeyi babo kugira ngo babereke ko nabo bafite ubumenyi, aba babyeyi bicaye mu ihema riri inyuma.

Aba abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke bakunze kubereka ibishushanyo bituma ubwonko nku bwabo bukanguka, aha turi kubonaho ibishushanyo by'utunyamaswa tugiye dutandukanye nabo bareba bakishimira.

Ibi ni bimwe mu bishushanyo biba mu mashuri y'inshuke, aho bifasha abana bakiri bato gusobanukirwa ibintu, bagakunda umurimo kandi bagakura bazi igikoresho n'icyo gikoreshwa.

Inyubako z'amashuri y'incuke ukunze gusangaho udushushanyo tw'utunyamaswa, udupupe ndetse n'utundi tuntu dukurura abana bakiri bato, iyi ikaba ari inyubako y'amashuri y'incuke.

Ibi ni bimwe mu bishushanyo bishyirwa mu bigo by'amashuri ahantu hari amashuri y'inshuke kugira ngo babashe kwishima ndetse no kurangarira ibyo bishushanyo maze bikangure ubwonko bw'abana bahiga.

Iki ni ikigo cy'amashuri hakaba hatangirwamo ubumenyi ku banyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, ku nkuta hakaba hagiye hashushanyijeho ibishushanyo bigiye bitandukanye, hari ahashushanyijeho ibimera ndetse n'umwana uri kwiga.

Amashuri y'incuke mu rwanda usanga aho ari hose hagiye hari ibishushanyo bigiye bitandukanye bifasha abana kumenya amazina ndetse n'ubwoko bw'ibintu aha hashushanyijeho igitoki.

Uburezi bwagenewe abana bato cyane kugeza ku biga mu mashuri y'inshuke. Aha turi kubona umurezi wo mu mashuri y'inshuke, imbere ye hari akana kambaye imyenda kakaba kifubitse agakanzu k'ubururu, ari kumwigisha kwandika umubare gatandatu.

Amashuri y'incuke usanga ahantu hari ibikorwa bimwe na bimwe bikangura ubwonko bw'abana kandi bikabakundisha ishuri, iki ni igikuta gishushanyijeho ingorofani ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umukara.

Ishuri ni kimwe mu bintu bituma umuntu yigirira ikizere. Aha hari amagambo agira ati "Ishuri ni gute ushobora kwimurika nk'umuntu wibitseho ubumenyi bwo gufata ibyemezo?" Aha rero nawe wahita wisubiza.

Ibi ni bimwe mu bikoresho bitagomba kubura mu bigo by'amashuri y'incuke, kikaba ari igikoresho kirangaza abana ndetse kigakangura n'ubwonko bwabo, kiri mu mabara agiye atandukanye umuhondo, icyatsi, ubururu ndetse n'umutuku.

Abana biga mu mashuri y'inshuke usanze, bakunda kuba bafite ibintu biriho udushushanyo. Iki ni igikapu umwana ajyana ku ishuri, kikaba kiriho udushushanyo, ndetse imbere yacyo hari utubuto.

Ibigo byinshi cyane by'amashuri abanza, usanga bifite udushushanyo dufasha abana gukangura ubwonko. Aha turi kuhabona igishushanyo cy'ifi gishushanyije ku rukuta.

Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu burezi bw'ibanze bw'amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye. Iki ni icyumba kirimo mudasobwa nyinshi cyane. Nkuko bigaragara aha ngaha ni aho bigira ibijyanye na mudasobwa.

Abana biga mu mashuri abanza bakunze kubakorera intebe zingana nk'uko bareshya ndetse ugasanga no mu mashuri yabo babashyiriyeho ibishushanyo biriho amasomo biga kugira ngo babashe kuyihugura buri uko bari mu ishuri.

Leta y'u Rwanda yafashe iya mbere maze ishyira imbaraga mu burezi. Yubaka ibigo by'amashuri byiza, yubaka imihanda myiza igera ku mashuri. Iki ni ikigo cy'amashuri kirimo ubusitani bwiza cyane ndetse iki cyapa kikaba kigaragaza ko ari urwunge rw'amashuri rwa Rukomo.

Mu mashuri y'incuke ndetse n'abanza ukunze gusanga hari inzu ziba zirimo ibitabo, aha hari ama etageri arimo ibitabo bigiye bitandukanye byo mu mashuri abanza

Abana biga mu mashuri abanza bakunze kuganira n'ababyeyi babo mu gihe bavuye ku ishuri. Aha hari abanyeshuri bicaye ku gasambi, papa wabo akaba ari kubacira umugani ndetse ababarira n'inkuru.

Abana biga mu mashuri abanza bagomba kuba bafite ibikoresho byifashishwa, mu gushushanya, guca imirongo, ndetse no guca inziga. Aha turi kuhabona amarati agiye atandukanye bifashisha.

Iyi ni inyubako y'ikigo cy'amashuri abanza. Harimo imiryango myinshi cyane. Imbere yaho hari inkingi itwikira abanyeshuri mu gihe basohotse imvura iri kugwa, hakaba hari n'ubusitani.

Abana biga mu mashuri abanza batozwa umuco wo kugira isuku, aha harimo umwana ubyutse akaba ari gusasa uburiri yarayeho, mbere y'uko yitegura ngo ajye ku ishuri.

Iyi ni inyubako y'amashuri hakaba harimo ikibaho gisa umukara. Leta y'u Rwanda yagiye yubaka ibyumba by'amashuri byinshi cyane, cyane cyane yubakira amashuri abanza ndetse n'uburezi bw'ibanze muri rusange.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse n'ayinshuke usanga bakunze kuba bakorera ahantu hari ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo nk'imbuto, inkweto, imyenda yo kwambara, ndetse na radiyo.

Abana bakiri bato, abakobwa babiri bambaye impuzankano y'ubururu ndetse n'umwana umwe w'umuhungu nawe wambaye kake, bari gukina imikino igiye itandukanye, abana biga amashuri abanza bimwe mu bibashimisha harimo no gukina.

Abana biga mu mashuri abanza, bamwe bambaye impuzankano y'ubururu abandi bambaye iya orange, hakabamo n'umwana umwe wambaye agapira k'umweru karimo uturongo tw'umukara, bose bapfukamye imbere y'ikibaho bari kwandika.

Iyi ni inyubako nziza cyane itangirwamo uburezi bw'ibanze, aha ero hakaba harimo ameza meza cyane ri mu mabara agiye atandukanye harimo: ay'umugondo, ay'ubururu ndetse n'ay'umutuku, hakaba hariho ibitabo bigiye biri hejuru.

Amashuri meza cyane yubatswe mu buryo bugezweho. Ageretse inshuro ebyiri. Akaba asakaje amabati y'ubururu, amadirishya n'ubururu. Imbere y'amashuri hari ubusitani bwiza hakaba hari abana bahari ndetse n'umupapa uri gutanga imbwirwaruhame.

Izi ni zimwe mu ntebe ndetse n'ibikoresho, biba biri mu mashuri y'inshuke hirya no hino mu gihugu, aho usanga abana bakunze kwigira ahantu hari utuntu dukangura ubwonko bwabo.

Ibi ni ibikoresho byifashishwa n'abana biga mu mashuri abanza, aho baba biga guca imfuruka, gushushanya ibiziga ndetse no gupima ubuso bugiye butandukanye.

Aya ni amashuri meza cyane, aya mashuri yubakishijwe amatafarihiye, akaba asize irangi ry'umuhondo, asakaje amabati y'ubururu, akagira inzugi z'umukara. Leta y'u rwanda yubatse amashuri kugira ngo abana babashe kujya babona aho biga amashuri abanza.

Abana biga mu mashuri abanza, bakunze kubigisha gukoresha ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo nka kereyo, hakabamo gome ibafasha gusiba ibyo bamaze kwandika, hakabamo amarate abafasha guca imirongo ndetse n'amakayi y'imirongo abafasha kunoza.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, usanga bahabwa ubumenyi bw'ibanze harimo nk'ubw'imibare ndetse n'amabara. Aha hari umubare rimwe uri mu ibara ry'icyatsi kibisi, hakaba umubare kabiri uri mu ibara ry'icyatsi kibisi kerurutse ndetse n'umubare gatatu uri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'ubururu.

Aba ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakaba baje ku rwibutso mu gikorwa cyo kwibuka, imbere yabo hakaba hari umugabo uri gushyira indabo ku rwibutso.

Aba ni abanyeshuri biga mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye, bakaba bambaye impuzankano y'icyatsi hejuru, bari mu ihema, aho bigaragara ko bitabiriye inama, bakaba bari guhabwa amahugurwa.

Mu bigo by'amashuri yisumbuye batanga amafunguro ya saa sita buri munsi. Aha hari umusore ufite akabase karimo amafunguro, abandi baramurangariye baramureba bagaseka.

Leta y'u Rwanda yashyizeho ingamba zuko buri mwana wese agomba gufata ifunguro rya saa sita kandi akarifatira aho yiga. Aha turi kubona abantu bari gusuzuma amasafuriya atekerwamo ibyo kurya by'abana.

Aba ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bari mu ibarura, aho hari umukobwa wambaye agapira k'ubururu ijipo ya kaki, ufite ajenda mu ntoki ndetse n'ikaramu, afite urupapuro ari kugenda yandikaho bagenzi be.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye usanga inshuro nyinshi bagira ibikorwa bimwe na bimwe bakora mu rwego rwo kugira ngo bashyire mu ngiro ibyo biga, aba ni abanyeshuri bambaye imyambaro y'akazi.

Iyi nyubako ikigo cy'amashuri, hakaba harimo inyubako zigiye zitandukanye, iki ni ikigo cy'amashuri yisumbuye, kikaba kirimo aho abanyeshuri bigira, aho barira, ndetse naho barara, hakaba harimo n'ibiti bitanga umuyaga ndetse n'amahumbeeza.

Mu mashuri yisumbuye usanga abanyeshuri biga imyuga igiye itandukanye. Aha hari abanyeshuri bambaye impuzankano z'akazi, bakaba bari kugenda bakora ibintu bigiye bitandukanye.

Abana b'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bambaye impuzankano zigiye zitandukanye, ni benshi cyane bicaye munsi y'ibiti harimo abambaye impuzankano z'umweru na kake ndetse n'abambaye umuhondo n'ubururu.

Abanyeshuri barimo abakobwa ndetse n'abahungu bambaye impuzankano y'umweru ndetse na kaki, bakaba bambaye ama baji mu ijosi bakaba bari kumwe n'undi musore bigaragara ko ari umuyobozi wabo, aho we yambaye ikote ry'umukara ndetse n'agapfukamunwa.

Leta y'u Rwanda yongereye imbaraga ndetse n'ireme mu bijyanye n'imyigishirize mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye. Aha hari abanyeshuri bicaye mu kigo hagati munsi y'ubusitani bwiza cyane, bakaba bari guhabwa amahugurwa.

Kuva kera hahozeho umuco gakondo. Uyu muco wabaga ugamije iki? Wabaga ugamije gutaka ndetse no kumurika imideri. Aha hari ifoto iriho umumama wifashe neza, uri kubyina imbyino za gakondo.

Abanyeshuri biga muri za kaminuza usanga ari abanyeshuri basobanukiwe ibintu cyane cyane ko baba bakoresha na mudasobwa ndetse n'amatelefoni bashakisha ubumenyi hirya no hino. Aba barishimye cyane kandi bari mu bushakashatsi, aho bari gukorera hamwe.

Amasengesho ni amwe mu bintu byashyizwemo imbaraga muri iki gihugu cy'u Rwanda, aho twagiye tugira abavugabutumwa benshi, amakorari menshi ndetse na gahunda nyinshi zigiye zitandukanye z'insengero. Iki ni icyumweru cyahariwe amasengesho.

Iyi ni inyubako y'ikigo cy'amashuri. Harimo abantu bakuze kuko ni aho abanyeshuri biga za kaminuza bigira. Hakaba harimo urujya n'uruza rw'abantu baje kwishakira ubumenyi.

Iyi ni inyubako ikaba irimo amashuri yigirwamo abanyeshuri ba kaminuza, aba rero bakaba bateraniye hamwe bari gukora isuzuma ndetse bambaye impuzankano zisa umweru.

Ibi ni bimwe mu bikoresho by'umuco gakondo na n'ubu bigikoreshwa, aho usanga abanyeshuri bize mu bumenyingiro bakora ibikoresho nk'ibi ngibi maze bakabimurika.

Abanyeshuri biga ubumenyingiro bakunze kuba bakora ibintu bigiye bitandukanye kandi bitangaje. Aha turi kubona ishyiga ryiza cyane ryakozwe n'abanyeshuri barangije amashuri y'ikiciro cya mbere mu bijyanye n'imyuga.

Iyi ni inyubako y'ikigo cy'amashuri nkuko bigaragara rero, iyi ikaba ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye bw'amashusho kuko hariho akapa kagaragaza yuko iyi ari sitidiyo.

Amakaminuza menshi usanga yigira mu nyubako zimeze neza cyane ko n'abahigira baba bafite ubumenyi buri ku rwego rwo hejuru, iyi ni inyubako igeretse neza ikaba ifite amarange meza kandi y'umweru.

Abanyeshuri ba kaminuza ni bamwe mu banyeshuri bigira ahantu heza kandi ugasanga bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga nka za mudasobwa. Ariko nanone mu bizamini baba batekereza cyane kandi bashakisha ibisubizo byimbitse.

Abanyeshuri biga mu ma kaminuza baba bafite ubumenyi bugiye butandukanye ku ikoranabuhanga ndetse n'ubushakashatsi. Aha turi kubona abantu bateraniye ahantu hamwe, bose bari kwandika kandi baranakurikiye.

Abanyeshuri biga kaminuza usanga baba bafite ubumenyi bugiye butandukanye, harimo no kudekora aha turi kuhabona ahantu hasa neza cyane, bigaragara ko hateguwe n'umuntu ufite ubuhanga ndetse n'ubumenyi.

Aba ni abanyeshuri barangije amashuri yabo, barishimye cyane kandi bambaye neza imyenda yambarwa n'abarangije amashuri , baricaye bari kwitegereza, bigaragara nkaho hari umuntu uri kubaha ikiganiro, bakaba bamuteze amatwi.

Abanyeshuri biga mu makaminuza yaba aya leta ndetse n'ayigenga, usanga bakora ubushakashatsi ku bintu bigiye bitandukanye. Aha hari ikarita igaragaza icyerekezo cy'ubushakashatsi mu Rwanda.